Itsinda ry'abaforomo n'umuganga wabo barimo gufata ifoto y'urwibutso n'umushyitsi wabasuye, bigaragaza ubumwe, urukundo, barishimye cyane, ibintu bidasanzwe by'imbokarimwe.

Imbaga y'abantu batabarika ishungereye umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'umwana barimo kumvana imitsi, bahagaze iruhande rw'ibiti bibiri bishinze birimo umugozi w'umushipiri hagati yabo.

Umudamu ukenyeye igitenge ishati ijya gusa n'umweru irimo amabara y'umukara, yiteza igitambaro, yikoreye indobo ku mutwe, iyindi mu ntoki, arimo aragana imbere ye agiye kugera mu rugo iwe.

Inama y'Igihugu yateranye iri kwiga ku kubabakira ubushobozi ibigendanye n'ubuzima, kongera ibikoresho by'ubuzima mu ngo, bari gutanga ibiganiro ku kuntu hakongerwa ibyafasha kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hateraniye abadamu batandukanye harimo abafite abana mu ntoki, umusore umwe yunamye ku mudamu arimo araha umwana mata.

Umuganga wambaye udupfukantoki tw'umweru, ari kuvura umurwayi mu buryo bwo kumutera urushinge, yamukunjiye umwenda kugira ngo bimworohere, ari kumuha serivisi.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Amazi Isuku n'Isukura, kirashishikariza buri wese gufata neza umutungo kamere kuko ari ingirakamaro mu buzima bw'ikiremwamuntu.

Abarwayi batandukanye bagiye ku kigo nderabuzima, bageze aho bakirira abarwayi, baricaye barategereje, umwe umwe ku wundi, bicaye bateganye, uruhande rumwe n'abandi urundi.

Abadamu babiri n'umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, bari mu bubiko bw'ibiribwa, bari kuzamura agafuka kakawunga, ubona ko bananiwe kugira ngo gashyike hejuru, maze bakamuhereza kagere hasi.

Abantu bakuru bahagaze imbere y'abana bato, bigaragaza ko barimo barabaha amabwiriza, nk'aho ari abanyeshuri, bari kubaganiriza ku ngingo zitandukanye, izigendanye n'ubuzima ndetse n'imyigire.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umweru n'inkweto z'umukara, arunamye ku bukarabiro arimo gusuka amazi mu biganza, yakandagiye kuri kandagira ukarabe ubona ko yishimye, bigaragaza ko bifite akamaro mu buryo bw'isuku.

Umugabo wambaye neza ipantaro y'umukara, ishati y'umutuku irimo amabara y'ubururu, yahereje umukono umuntu ufite uburwayi bwo mumutwe, yambaye incwabari, akeneye ubufasha ubuvuzi kugirango abe yakira.

Umugabo uri gusukura amenyo ye yifashishije akadodo k'umweru, bigaragara ko ari kubabara gusa ibi bikarinda indwara zitandukanye za hato na hato zishobora no guteza ibibazo ku buzima bw'umuntu.

Umusaza yicaye ku muryango w'inzu ye, yambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara mu maguru ye harimo inkoni yicumba, iruhande rwe hari abana babiri b'abakobwa barimo kurya imbuto.

Umusaza wambaye ingofero y'urugara, ishati y'ubururu bwerurutse, isaha ku kaboko, inkweto z'umukara n'ipantaro, afatanye ku rutugu n'umuhungu we, bari mu kayira k'ubusamo bari kurebana bahuje urugwiro.

Umusaza wambaye indorerwamo z'amaso, afite ikaramu yigiti mu ntoki, yifashe ku kananwa, afite imvi ni uruyenzi, imbere ye hari agakoresho k'umweruru.

Umwana w'umukobwa yaturutse mu bitugu umubyeyi we w'umumama, yamuyambereye, barishimye cyane bicaye mu ruganiriro, bigaragaza urukundo rudasanzwe hagati yabo.

Umuganga ari guha ubufasha uwaje amugana mu gihugu cya Nigeria, ari kumutera urukingo rwa Kovide cumi n'icyenda, bombi bambaye udupfukamunwa mu buryo bwo kwirinda ko hagira uwanduza undi, bakwirakwiza icyorezo.

Mu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, hateranye inama idasanzwe yo ku kwita ku buzima, yitabiriwe n'abantu batandukanye abagore, abagabo bambaye amakaruvati.

Ku wa makumyabiri z'ukwacumi i Kigali, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, hateraniye inama ishinzwe ku kurwanya virusi ya marburg. Minisitiri w'Ubuzima n'umutumirwa bari gutanga inama ku kucyirinda kikarandurwa burundu.

Umusore wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara arimo arazinga inzitiramibu kugira ngo abone uko yita ku murwayi uryamye iruhande rwe, bigaragara ko yuko arembye cyane.

Umugabo wicaye munsi y'igiti k'inganzamarumbu, yambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, arananiwe cyane ku kabaraza kubabakishije amabuye na sima, iruhande rwaho hari ibyatsi.

Umuforomo w'umukobwa wambaye imyambaro yabugenewe y'ubururu, ari gusuzuma umusaza wambaye indorerwamo z'amaso, ishati y'umutuku, uruvi ni uruyenzi, barishimye ubona ko baguwe neza bose.

Yarambitse agatambaro ku kaboko, yafasheho kandi yagundiriye, ubona ko ababaye ashobora kuba yavunitse kugira ngo arebe ko imitsi yagororoka, akongera akagira ubuzima buzira umuze.

Kuva mu myitozo ngororamubiri, ugafata ibinika y'amazi ugasuka mu gikombe ukanywa, byongera imbaraga bigatuma uruhuka, ukagira ubuzima bwiza igihe cyose.

Ibikoresho bitandukanye, metero, imbuto ziribwa, icupa riringani ririmo amazi y'umugezi yo kunywa, umupine n'ibindi.

Ubwoko bw'insimburangingo zitandukanye, iz'akaguru kamwe, abiri, izo uwambaye inkweto, imbago ndetse n'iz'akaboko.

Umugabo n'umugore bateranye umugongo, buri wese arararamye, ari kunywa icupa ry'amazi y'umugezi, bigaragara ko bafite inyota cyane, ntawitaye k'uwundi.

Ubwoko bw'amavuta atandukanye yisigwa mu mutwe, akoze mu byatsi avura indwara nyinshi, ibi bigatuma imibiri y'abantu irushaho kumererwa neza.

Mu iduka ricururizwamo amoko y'imiti atandukanye akomoka ku bimera, harimo amacupa menshi, hari abakiriya baje kugura, bari kwitegereza bareba ihwanye n'indwara bafite kugira ngo babe bakira bagire ubuzima bwiza.

Amoko y'imiti atandukanye gakondo, akozwe mu byatsi, harimo igikakarubamba, ari mu macupa, iry'umukara, iry'umuhondo, iry'umutuku n'irijya gusa n'umweru.

Ubwoko bw'ikimera gakondo gikorwamo imiti itandukanye, harimo ivura umutwe, mu nda, amaso, umugongo, n'ibindi bitandukanye.

Igabanyirizwa ringana na mirongo itatu ku ijana ku icupa ry'umuti uvura indwara zitandukanye, harimo kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha kandi ugakumira indwara zifata porositate.

Amacupa y'imiti gakondo akorwa mu byatsi bitandukanye, harimo avura umutwe, umugongo, indwara z'ubuhumekero, imvune ndetse n'izindi nyinshi.